Umugabo wambaye ikote ry'umweru ririmo amabara y'umukara afite mikoro yambaye ingofero y'umukara akaba ahagaze muri sitade, inyuma ye hari intebe abakinnyi b'abasimbura bicaramo ndetse hakaba hari n'inzu igaragara ko iteye amarange y'umuhondo.

Inama yateranyije abayobozi bakomeye mu nzego zitandukanye hakaba harimo abashinzwe umutekano aho uruhande rumwe rwicayemo abadaso bambaye impuzankano bakaba bari gukurikira impanuro bahabwa n'abayobozi batandukanye.

Abaturage bahuriye ku biro by'umudugudu. Baricaye bamwe bicaye mu ntebe z'ubururu, abandi bakaba bicaye hasi. Imbere yabo hari abayobozi bicaye mu gisharagati gitwikiriye, aho hari umwe muri bo wahagurutse uri kubagezaho ijambo ry'umunsi.

Abantu benshi cyane bakora mu nzego zitandukanye z'ubuvuzi ndetse n'iz'ubuyobozi, bakaba bahuriye hamwe kugira ngo barebe uburyo butandukanye bakoresha mu kubungabunga ubuzima ndetse n'iterambere ry'abaturage.

Imashini ya mudasobwa, ikaba irimo amafoto atandukanye agaragaza abantu benshi bicaye, hasi hariho ifoto iriho abana bake bicaye, indi iriho batatu mu gihe iyo hasi iriho umwe, bose bakaba bagaragara nk'abari mu nama.

Abayobozi baturutse mu mpande zitandukanye, mu nzego nyinshi z'ubuyobozi. Bahuriye hamwe mu nzu iteye irange ry'umuhondo. Aho bicaye mu ntebe nziza z'ibyuma zifite n'imifariso isa n'umutukuka. Bakaba baje kwiga ku buryo bateza imbere abaturage.

Abagabo benshi cyane, bahuriye mu nama buri wese yicaye ku ntebe ye, ndetse afite n'agacupa k'amazi arimo kunywa, umwe muri bo yazamuye telefone hejuru mu kirere ,akaba ari gufotora umuntu uri kubagezaho ikiganiro imbere yabo.

Abasore ndetse n'abakobwa bambaye neza cyane baberewe bakenyeya, aho bari kubyina imbyino nyarwanda, bamurikira abanyamahanga ubwiza ndetse n'umwimerere w'umuco nyarwanda.

Ibikoresho birimo ikirago. Icyansi ndetse n'ibindi, byose bigaragaza umuco nyarwanda, bituretse hasi, aho bitatse biri mu mabara atandukanye, bimwe bisa n'umukara, ibindi bikaba ifite ibara ry'ikijuju.

Amacumu menshi cyane, akaba atandukanye mu ngano, mu mabara ndetse no mu burebure, arambitse hasi ku mwenda, aho arambikanye n'agakombe k'umukara, mbega byose bigaragaza ubudasa bw'umuco nyarwanda.

Abagore n'abagabo bishimye cyane, bari mu kirori aho bashyingiye umuhungu n'umukobwa imbere y'lmana, hari abagabo n'abakobwa bakennyeye baberewe ,aho bari kubyina indirimbo z'umuco nyarwanda.

Ikibo kiza cyane, kidodesheje ubudeyi bw'umweru, burimo ibara ry'umukara. Kikaba gitereretse hasi, kiriho n'umutemeri utatsemo ayo mabara navuzeze haruguru, kikaba kigaragaza umuco nyarwanda ku ruhando mpuzamahanga.

Abagabo babiri bakenyeye baberewe bigaragaza umuco nyarwanda, bakaba bicaye bambaye imikenyero y'umweru aho bafite inkoni nyuma y'uko bari baje mu birori byo gushingira mushiki wabo washingiwe imbere y'Imana.

Abantu benshi cyane bizihiwe. Bakaba bahuriye hamwe mu kirori. Aho bubatse ibisharagati by'umweru, biriho amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu. Ubona ko bari kubyina bya kinyarwanda bishimye cyane.

Inzu nziza cyane iteye irangi ry'umweru ikaba irimo ibikoresho bitandukanye bigaragaza umuco Nyarwanda, harimo ingoma, hakabamo icumu, ndetse n'umugara byose byifashishwa n'abasusurutsa abantu mu buryo bwa Kinyarwanda.

Ifoto iriho umugore akaba n'umwamikazi w'u Rwanda ni umugore wambaye umupira w'umweru, akaba yambaye utuntu tubiri mu mutwe ndetse yasokoje neza cyane bibereye amaso.

Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi. Afite umusatsi usanzwe, akaba yicaye afite agakoresho, ari guhuhamo, kakaba akagaragaza umuco nyarwanda, aho bagacurangisha mu birori.

Ibyuma byiza cyane bikaba biri mu nyubako ndende byose byifashisha umuriro w'amashanyarazi. Imbere hari imbuga ngari ihinze neza, hakaba inzira y'abanyamaguru iri kugendamo umugabo umwe uri gutaha avuye mu kazi.

Umugore w'umudozi, yiteze igitambaro cy'umuhondo, yambaye ikanzu yidodeye mu bitambaro bye byiza. Imbere ye hari izindi mashini zaba umukara n'umweru, zose yifashisha mu kudoda, aho we yicaye kumashini idoda igakoresha umuriro w'amashanyarazi.

Inzu isakaje amabati atukura. Iriho umurasire wifashishwa mu kuzana umuriro ndetse no gucanira abatuye muri iyi nzu mu gihe cy'umwijima, akaba ari inzu yitaruye hakurya hari umusozi mwiza uteyeho amashyamba.

Abagabo bambaye ibisubeti by'ubururu, bambaye ingofero z'ama kasikez'umutuku, bakaba bakora ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Aho baje gutange umuriro w'amashanyarazi mu rugo rw'umuntu kugira ngo nawe azajye acana nijoro.

Ibyuma bishinze ku musozi. Ibyuma byiganjemo amapironi, ndetse na taransifo, bikaba byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro mu batuye mu Karere ka Nyagatare. Hepfo hari imbuga ngari iriho abantu bari gusunika ingorofani.

Umukobwa afite imisatsi ya meshi yambaye ikasike y'umuhondo ndetse n'itaburiya y'ubururu akaba ari inzobere mu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi aho ari gukata insinga akongera akaziteranya akaba ari kubikanika byapfuye.

Inzu nini cyane yubatswe hakoreshejwe beto, hejuru hariho ibyuma bitandukanye bishinze aho byose byifashishwa bizirikwaho insinga zikwirakwiza umuriro mu baturage batuye Akarere ka Nyagatare.

Umuzungu wambaye akajire, akaba yambaye umupira w'amaboko magufi usa n'umukara ndetse n'ipantaro y'itiriningi irimo imirongo y'umweru, akaba ari gukanika amashanyarazi usa naho ari inzobere mu bijyanye n'amashanyarazi.

Amapota abiri akozwe muri sima, ariho taransifo nini cyane aho ku ruhande hari igipangu cya senyege kirimo taransifo nini, zose zikaba zifashishwa mu kurahura umuriro ucanira abaturage batuye mu Mudugudu.

Umugabo ukora by'amashanyarazi. Yambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'ikasite y'umuhondo, akaba yuriye ipoto ageze hejuru mu bushorishori, aho ari kugenda azirikaho cash power kugira ngo ahe umuriro abaturage.

Umugabo ukora mu bijyanye n'amashanyarazi nta bwoba afite namba akaba ari gutembera ku nsinga hejuru cyane mu kirere, yambaye ikasike y'ubururu akaba yambaye n'agapira gatukura aho yiziritse umugozi ku rutsinga.

Amapoto abiri akozwe mu byuma akaba ariho taransifo hejuru hari insinga z'umuyoboro mugari aho zambukiranya umuriro ziwujyana mu duce twa kure, hakaba hari n'urundi rutsinga rugenda rukwirakwiza umuriro mu baturage batuye uyu mudugudu.

Abantu benshi cyane bari gutambuka imbere y'inyubako ya Leta, ikaba ari inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba iteye irangi ry'umweru ku nkingi, ifite ibaraza aho abantu baje kugama bashobora kuba bahagaze.

Umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'u buganda, hariho icyapa kikwereka ko winjiye mu gihugu cy'u Buganda, aho hari amagambo yanditse mu cyongereza, igifaransa ndetse no mu kinyarwanda.

Inzu ya Leta iteye amarangi y'umweru ikaba isakaje amabati atukura, yanditseho amagambo mu Kinyarwanda avuga ngo Urukiko rw'Ibanze rwa Nyagatare, ikaba ifite ibaraza rinini cyane ryicayeho abantu bane.

Inyubako ya Leta isakaje amabati, iriho umureko uteye irangi ry'umuhondo akaba ari inzu itangirwamo serivisi zitandukanye, imbere hari igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse ngo urugo mbonezamikurire y'abana bato.

Utuzu tubiri twubatswe mu biti. Tukaba dusakaje ibintu bimeze nk'imbaho, duteye irangi ry'umutuku. Akaba ari inyubako za Leta, zubatswe mu gihe cy'abami, aho dusigasira umuco nyarwanda.

Inyubako zitandukanye za leta ni amagorofa, akaba agereretse kabiri aho ibakishijeje amatafari ya Ruriba. Aritaruye ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru iri kugendamo abantu, aho ruguru y'izo nzu hari ubusitani bw'amacaca.

Inzu nziza y'ubutabera. Ikaba iteye irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'umweru ariko ashaje. Ifite ibaraza rinini cyane ndetse n'amarembo yinjiramo imodoka, aho hanze hari imbuga irimo amapave iparitsemo n'imodoka.

Amarembo meza cyane yanditseho amagambo ari mu ndimi z'amahanga. Yose asobanura ngo urugendo ruhire. Ku ruhande hakaba hariho ikindi cyapa cyanditseho ngo ikaze mu gihugu cy'Ubugande. Hari abantu bari kwinjira ku mupaka ndetse n'imodoka iri gushaka kujyayo.

Inyubako nziza cyane ya mashuri ikaba yarubatswe na Guverinoma y'u Rwanda yubakisheje buroke sima, ikaba isakaje amabati uruhande rumwe bisa naho andi yagurukanywe n'umuyaga, ni inyubako itararangira yagetseho urwego.

Inzu za Leta zikaba ziteye amarangi y'ubururu aho zisakaje amabati y'ubururu, zifite ibaraza buri imwe yicayeho abantu baje bashaka serivisi z'ubuvuzi, imbere hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hateye indabo.

Umuhanda mwiza cyane w'igitaka, ukaba ufite ikiraro gikozwe mu mbaho, ibiti ndetse n'ibyuma bya ferabeto aho ferabeto zifashe ku biti hifashishijwe imisumari.

Abagabo batanu bahagaze imbere y'ibiro by'Akagari ka Rugabagaba, ni Umurenge wa Karangazi aho bari kurahira nyuma y'uko bari bamaze gutorwa bagiye gushyirwa mu nshingano nshya.

lkiraro kirekire cyane, cyubatswe na leta y'u Rwanda, kikaba ari ikiraro cya lasoro kinyuze mu kirere ,kikaba gihuza abatuye imisozi ibiri, ku ruhande hari ibisima birimo amarangi abiri, ubururu ndetse n'umuhondo.

Umunsi mukuru wahariwe ubutabera. Umugore wambaye imikenyero, yitwikiriye umutaka aho yicaye ku cyapa cyanditseho mirongo itatu, inyuma ye hakaba hari n'inzu nziza cyane, zisakaje amabati y'umweru.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, bamwe baricaye hasi abandi bakaba bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umugabo ufite inda akaba yambaye ingofero aho afite n'amarinete, akaba ari gusobanurira imbaga nyamwinshi uburyo butandukanye batangamo ubutabera.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora mu nzego z'ubutabera. Bari kwifotoza aho abenshi muri bo bafite ibipapuro bigaragaza ko barenganuwe. Muri abo bantu harimo abasirikare babiri bambaye impuzankano ndetse n'umupolisi umwe.

Abantu benshi cyane bakora mu nzego z'ubutabera ndetse n'abakora mu nzego z'umutekano, barimo abasirikare n'abapolisi, bahuriye hamwe mu nzu iteye amarangi y'umweru, aho baje kwiga k'ikibazo cy'umuturage warenganijwe n'umuyobozi.

Abantu benshi cyane bicaye mu gisharagati. Biganjemo abagore n'abagabo kuko nta bana ndi kubonamo. Bambaye udufurari mu ijosi bisa naho baje mu rubanza rwo kurenganura umuntu warenganijwe.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bicaye mu gisharaga, higanjemo abayobozi mu nzego zitandukanye, hakaba hari n'abashinzwe umutekano, barimo abasirikare batatu n'abapolisi babiri, bambaye impuzankano yabo.

Umugabo w'umupolisi yambaye impuzankano y'abapolisi afite mikoro akaba ahagaze imbere y'imbaga yateraniye mu mbuga y'umurenge, uyu murenge wubakishije amatafari ahiye ukaba asakaje amabati y'ubururu aho ku ruhande hari na kandagira ukararabe.

Abaturage bicaye hasi, imbere yabo hari abayobozi bo icaye ku ntebe za palasitike, abenshi muri bo bambaye imipira y'icyatsi imbere yabo hakaba hari umugabo ufite mikoro ndetse wambaye n'ingofero aho ari kubaganiriza.

Abantu benshi cyane biganjemo abari mu zabukuruba, bahuye hamwe abaje mu nama ku kagari. Bamwe bicaye hasi, abandi barahagaze. Imbere yabo hakaba hari abantu batanu bahagaze barimo abagore babiri n'abagabo batatu basa naho bari kuburana.

Abantu benshi cyane akaba ariko munsi w'umuganda w'u kwezi bahuriye mu ishyamba aho bari gutera ibiti ku bwinshi mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije kugira ngo bazage babona umwuka mwiza bahumeka.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, aho abaje kumva urubanza rw'abantutu babiri babura n'umurima. Haje abayobozi batandukanye mu nzego z'ubutabera, aho baje kubakiranura bakaba baje mu modoka nini y'umweru.

Abaturage benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bicaye hasi mu mucaca, imbere yabo hari abatumirwa batandukanye barimo abasirikare babiri, umudaso ndetse n'abandi bayobozi, muri abo bayobozi umugore umwe yahagaze akaba ari gutange ikiganiro.

Inzu ziri ku muhanda z'ubucuruzi, zubakishije amatafari ya ruriba, imbere ku mbuga haparitse moto, aho moto imwe iriho umumotari ushaka ndetse no gutwara umugore w'umugenzi.

Inzu z'ubucuruzi, imbere yazo hakaba hari imboga nini cyane irimo amapave aparitse imodoka y'ivateri iriho ibara ry'ubururu hirya yayo hakaba haparitse n'indi moto ikoreshwa mu batwara abagenzi.

Icyapa cy'ibyuma bibiri, hejuru hakaba hari akuma karimo irangi ry'umweru, kakaba kanditseho amagambo ngo Karangazi, gaciyemo umurongo. Bisa naho ari icyapa cyarangaga ahantu, ariko bakaba baribeshye mu kwandika.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, hariho ikimenyetso cyo guteranya kiri mu ibara ry'umukara, akaba ari ngo kigaragaza ko imbere hari ikigonderabuzima cyangwa se ivuriro ritangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba werekeza mu Murenge wa Nyagatare, aho habura metero igihumbi na magana atatu na mirongo itanu, icyapa kibigaragaza kiri mu ibara ry'icyatsi, aho kuruhande rwacyo hari indabo z'amabara atandukanye.

Kaburimbo nziza cyane irimo akarongo gacikaguye k'umuhondo mo hagati, ku ruhande hari umurongo umweru urambuye, ku ruhande nanone hari ibisima biri mu mabara y'umweru n'umukara, muri kaburimbo hari imodoka ziri gutambuka, hakabamo n'imodoka itwara abagenzi ya kwasiteri.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kiriho utumenyetso two kuzenguruka turi mu ibara ry'umweru kuhande hari igipangu, iki cyapa kereka ibinyabiziga ko ariho umuntu ushaka gusubira inyuma akwiye gukatira cyangwa se ugiye gukata ku mpande akabanza kuzenguruka.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara, uri kumanukamo imodoka ifite ibara ry'umweru, ku ruhande hakaba ari inzira y'abanyamaguru, irikomanukamo abakobwa babiri bambaye amapantaro, hirya yabo hakaba hari inzu y'ubucuruzi.

Icyapa kiri ku muhanda ni igiti gishinze icyapa kiri muri mpandeshatu aho gishushanyijeho abana babiri umukobwa ndetse n'umuhungu bari kwambuka umuhanda, bikaba bigaragaza ko imbere hari ahantu abanyamaguru bambukira aho hirya y'umuhanda hari n'ishyamba rinini.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisima ku ruhande birimo amabara y'umukara n'umweru, hakaba ari inzira y'abagenzi, ku ruhande hakaba hari icyapa kigaragaza ko imbere hari ikoni ryisubiramo, haruguru y'umuhanda hakaba hari umurima urimo igiti kimwe.

Ku wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi hakaba habaye umuganda w'ukwezi, aho abayobozi mu nzego zitandukanye harimo n'abashinzwe umutekano, abapolisi n'abasirikare, bahuriye mu mudugudu aho bari gusibura umuhanda kugira ngo ibinyabiziga bibone uko bitambuka.

Abaturage batuye mu mudugudu muri Nyagatare. Bakaba bahuriye hamwe nyuma y'uko bari bamaze gukora umuganda w'ukwezi, baricaye abandi barahagaze. Inyuma yabo hari inzu y'ubucuruzi, hakaba hari n'urutoki rutoshye cyane. Aho imbere yabo harimo umugabo ufite mikoro n'urupapuro.

Umugabo ushinzwe umutekano mu Karere, yasuye abaturage, aho ahagaze imbere yabo abaganiriza. Yambaye ishati y'amaboko maremare, isaha ku ukuboko kw'imoso ndetse n'amarinete akaba afite na mikoro.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, akaba aumu w'umuganda w'ukwezi, aho bari guharura umuhanda ndetse bagaca n'umuferege, uzajye ucamo amazi kugira ngo areke gukomeza kwangiza uyu muhanda, baba bavunitse baharura.

Umunsi umuganda w'ukwezi. Aho abaturage baturutse imihanda yose, bakaza mu muganda. Buri wese yitwaje ingata, bakaba bari gutembera mu muhanda bashaka amabuye, kugira ngo bajye kubakira umuturage wo mu mudugudu wabo.

Ku munsi w'umuganda w'ukwezi nyuma yuko abaturage bari basoje gukora umuganda bahuriye hamwe mu kibuga aho bari kubyina bishimye cyane, bakaba bari kwishimira gahunda Leta igende ibagezaho ziganjemo iz'ibikorwaremezo.

Ku munsi w'umuganda abaturage biganjemo urubyiruko bikoreye amabuye bakaba bari gutambuka mu murima uhinzemo urutoki ariko rudahingiye, aho ayo mabuye bayajyanye kugira ngo bajye kubakira umuturage utishoboye.

Abakinnyi babiri bambaye imyenda bakoresha imyitozo ngororamubiri isa n'ubururu bakaba ari mu kibuga cyonyine inyuma yabo, hakaba hari izamu rihagararamo umuzamu iyo bari bukina.

Abagabo umunani bakaba ari abakinnyi bakina umupira w'amaguru, bose bambaye imyenda bakoresha imyitozo yabo ngororamubiri iri mu ibara ry'umuhondo, bakaba bicaye ku gatebe kabasimbura ,mu gihe ababanza mu kibuga bo bagiye gukina.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, bahuriye hamwe mu kibuga, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri izwi nka pompaje, imbere hari abantu babiri, umukobwa n'umuhungu, aribo bayoboye icyo gikorwa bari kwereka abandi ibyo gukora.

Abagabo batatu bicaye bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye umwe yambaye umutuku, uwo hagati yambaye ubururu, mu gihe undi wo ku ruhande yambaye icyatsi, inyuma yabo hakaba ha ibirahure biri mu ibara ry'ubururu bwijimye bisa n'aho aba bantu bashinzwe gukora ndetse no gutoza abana bakora imyitozo ngorora mubiri.

Abantu batatu bambaye imyenda y'umuhondo bakaba ari abakinnyi bari kwifotoreza mu kibuga ari bonyine, umwe muri bo yazamuye ikabutura umwe ifite amaboko inyuma, undi akaba yarekuye amaboko.

Abakinnyi benshi cyane bisa n'aho ari nka cumi n'umwe bambaye imyenda bakoresha bakina umukino w'amaguru, bakaba bari kwiruka mu kibuga bakizenguruka kugira ngo bitegure umukino bafite saa cyenda.

Abana babiri bambaye imyenda itukura izwi nka kimono, bakaba bari gukora imyitozo ngororamubiri aho biga imikino njyarugamba ibafasha kumenya kwirwanaho ndetse ikanabigisha ikinyabupfura.

Abakobwa bakina umukino w'umupira w'amaguru bakaba ari muri sitade aho batonze umurongo amakipe yombi uko ari abiri bitegura gusuhuza abafana kugira ngo batangire umukino wabo, ibumoso hari abambaye imyenda y'ubururu mu gihe iburyo bambaye umutuku.

Abantu bane, babiri ni abakinnyi. Bambaye imyenda idasa dore ko bakina mu makipe atandukanye, abandi babiri bakaba bari gutembera mu kinani. Hirya hari inyubako nziza cyane iriho igipangu cyubakishijeje amabati ndetse n'amatafari ahiye.

Muri sitade ahabera imikino itandukanye bahembye ikipe yabaye iya mbere aho hahagaze umugabo wambaye ingofero, umwana w'umukobwa ndetse n'umugore bisa n'aho ari we mutoza bafite igipapuro cyanditseho ngo: "Akarere ka Nyagatare, Umurenge Kagame Cup" mu rurimi rw'Icyongereza.

Umuhanda w'igitaka umanuka mu mudugudu, aho acuramye cyane. Hari kumanukamo umugore uhetse umwana, akaba yiteye igitenge cy'umweru. Ku ruhande hari ikinani kirimo ubwatsi butoshye.

Akayira gatoya kakaba ari akayira kari hagati y'imirima mu cyaro, ubona ko kanyurwamo n'abanyamaguru gusa kuko ntabwo hacamo ibinyabiziga, hakurya y'aho hari amazu meza cyane manini asakaje amabati atukura azwi nk'uducurama.

Akayira gatoya kagendamo abanyamaguru kuko ni gato ntikakwiramo ikinyabiziga, ku ruhande rumwe hari ikinani, ku rundi ruhande hakaba hari umurima uhinzemo imbuto zitandukanye ndetse n'ibiti.

Umukobwa wambaye ingutiya ndetse n'agapira k'amoboko magufi k'umukara, ari gutambuka mu muhanda iruhande rwa kaburimbo aho epfo ye hari imikindo, haruguru ye hakaba hari ikibuga kinini cyane kirimo ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo umanuka uri kugendamo imodoka imwe isa n'icyatsi, ku ruhande hakaba hari inzu nyinshi cyane z'ubucuruzi ziteye amarangi y'umweru, inzu zimwe zirafunze izindi zirafunguye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo akarongo k'umweru mo hagati, ukaba ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru irigutambukamo abantu batanu, umugabo umwe yambaye agapira k'umweru kanditseho ngo skol, aho ku ruhande hari icyapa cyanditseho ngo ivuriro.

Umuhanda w'igitaka wo mucyaro wanyuzemo amakoku ubona ko amaso yawangije cyane. hari kuzamukamo umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro yumukara ndetse n'inkweto za badabod, afite isuka ku rutugu akaba avuye guhinga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo akarongo k'umuhondo mo hagati, hahagazemo umwana wambaye igisarubete cy'umweru akaba afite igipine cya moto, ku ruhande hakaba hari umufurege w'amazi aho hari n'indabo zitatse ku muhanda.

Abakobwa bane bambaye amapantalo bakaba bari gutambuka mu nzira y'abagenzi, mu gihe umwe muri bo ari kugenda anyura muri kaburimbo, hirya yabo hakaba hari inzu ebyiri zubakishije amatafari ahiye, zikaba ari inzu z'agacurama, imbere hakaba hari n'igipangu cyiza cyane giteye irangi.